Abantu ubona ko bari gutera umuti mu bigori kugira ngo babashe kwica nkongwa, ni byiza ko dutera umuti mu bigori, kugira ngo turwanye nkongwa yataka ibigori ikaba yabyangiza.

Umuntu ubona ko ari gutera umuti amashu, ubona ko ari kuyatera kugira ngo ayarinde udukoko dushobora kuba twayangiriza, ni byiza ko dutera umuti amashu igihe ari gukura kugira ngo yere neza kandi arwanye udukoko.

Ahantu bacuruza imiti itandukanye harimo ibyo koreshwa mu kuhira ibishyimbo ndetse n'indi myaka aho harimo imyayi, imiti ivura inka ndetse n'ishyirwa ku bimera.

Umuganga w'amatungo ubona ko afite ubukarito bubiri burimo inshinge ziterwa inka, aho baba bazikingira indwara zitandukanye kugira ngo zigire ubuzima bwiza, ni byiza ko inka zihabwa urukingo kugira ngo zibashe kubaho neza.

Ibigori ubona ko biri gushyirwaho imvaruganda. Ni byiza ko ibigori bishyirwaho imvaruganda kugira ngo bibashe kwera neza kandi binakure vuba, biba byiza iyo dushyizeho imvaruganda ku bigori nka gatatu kugira ngo bibashe gukura neza.

Abantu ubona ko bari gutunganya umurima kugira ngo babashe gutera imyaka, maze ibashe kwera. Ni byiza ko umurima utunganywa neza kugira ngo ubashe gutanga umusaruro, kandi hashyirwamo ifumbire kugira ngo ubashe kwera neza.

Ahantu harimo imiti itandukanye, cyane cyane imiti y'amatungo, aho yifashishwa mu guhabwa amatungo kugira ngo abashe gukura neza. Ni byiza ko twita, ku matungo tuyakingira uko bikwiye, kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Ahantu ubona ko bacuruza ibikoresho bitandukanye, harimo n'imbuto imyayi itandukanye n'ibikoresho byifashishwa mu kuhira inka ndetse n'imiti iterwa ibihingwa igihe byarwaye udukoko. Ni byiza ko aya maduka yegerezwa abahinzi n'aborozi.

Ibikoresho bitandukanye ndetse n'imiti yifashishwa mu buhinzi kugira ngo abantu babashe kubona umusaruro mwiza. Ni byiza ko twita ku bihingwa dubishyiraho imiti ikwiriye kandi twifashisha ibikoresho bitandukanye, kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwiza.

Abantu ubona ko bagiye guhinga ibigori aho babanje gushyiramo ifumbire y'imborera, ni byiza ko batera batagaranyije kandi bakibuka gushyiramo ifumbire mvaruganda kugira ngo bizakure neza kandi bitange umusaruro.

Ikahwa ubona ko ziri gushyirwaho ifumbire, kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro. Ni byiza ko ikawa ishyirwaho ifumbire, y'imvaruganda, kugira ngo ibashe gutanga umusaruro mwiza kandi mwinshi, kuko ikawa ni ingirakamaro.

Abayobozi batandukanye bafatanyije n'abaturage kugira ngo batangize igikorwa cyo gushyira ifumbire ku bigori. Ni byiza ko ibigori bishyirwaho ifumbire y'imvaruganda kugira ngo bibashe gukura neza kandi bitange umusaruro mwiza.

Abantu ubona ko bari gusuka ifumbire kugira ngo babashe gushyira ku bigori maze bibashe gukura neza. Ni byiza ko twita ku bigori igihe bikiri bitoya, tugashyiraho ifumbire mvaruganda kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza.

Imyayi itandukanye harimo karoti, ubutunguru ndetse n'indi myayi yifashishwa ihumbikwa, aho ihabwa abahinzi kugira ngo bayihumbike maze babashe gukora ubuhinzi kandi babashe kwiteza imbere.

Ahantu ubona bacururiza imiti itandukanye, harimo imiti y'amatungo ndetse n'indi miti yifashishwa mu gutera ibihingwa ndetse n'imyaya itandukanye, ni byiza ko aya maduka yegerezwa abahinzi n'aborozi kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Icyumba ubona ko kirimo ibikoresho bitandukanye, aho harimo imiti y'amatungo ndetse n'imyayi itandukanye n'ibikoresho twifashisha mu kuhira imyaka. Ni byiza ko aya maduka yegezwa abahinzi n'aborozi kugira ngo biteze imbere.

Ahantu ubona ko bacururiza imiti itandukanye harimo imyayi itandukanye yifashishwa mu gutera, harimo karoti, ubutunguru ndetse n'indi myayi harimo n'ibikoresho bifashishwa mu kuhira imyaka, ni byiza ko aya maduka yegerezwa abahinzi kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Ifumbire ni ingirakamaro kuko ifasha ibihingwa kuba byakwera neza bityo bikaba bya kwera umusaruro mwinshi. Ni byiza ko dukoresha ifumbire kugira ngo tubashe kuba twakweza umusaruro uhagije.

Umuntu ubona ko ari gutera imiti ibihingwa kugira ngo bibashe gukura kandi birwanwanye udukoko, ni byiza ko twita ku bihingwa kandi tubitera imiti uko bikwiye kugira ngo bibashe gukura kandi bitange umusaruro, natwe twiteze imbere.

Iduka ubona ko ricuruza ibikoresho byifashishwa mu kuhira ibihingwa ndetse n'imiti, imyayi harimo amashu, ibitunguru ndetse na karoti, ni byiza ko aya maduka yegerezwa abahinzi n'aborozi.

Ni byiza ko aya maduka acuruza ibikoresho byifashishwa mu kuhira imyayi itandukanye, haba iy'ubutunguru, iy'imboga, karoti ndetse n'indi myayi, yegerezwa abahinzi ndetse n'imiti y'inyanya, ibinini by'inka, byose bikegerezwa abahinzi ndetse n'aborozi.

Ifumbire mvaruganda, ni kimwe mu bintu bifasha ibihingwa kwera neza kandi bikera vuba, ukabona umusaruro mwiza. Ni byiza rero gukoresha ifumbire mvaruganda, kandi tukayikoresha neza, twirinda gukoresha ifumbire nyinshi.

Abantu ubona ko bari gukwega ifumbire kugira ngo babashe kuyigeza mu murima. Ni byiza ko dukoresha ifumbire y'imborera mbere yuko duhinga kugira ngo dutere ibintu kandi bibashe kwera neza. Twibuke gukoresha n'ifumbire y'imvaruganda.

Umuntu ubona ko ari gutera umuti kawa, ni byiza ko ikawa ziterwa umuti kandi zigakomeza kwitabwaho kugira ngo zibashe gutanga umusaruro ushimishije maze umuntu asarure kandi yiteze imbere.

Abantu ubona ko bari gukora ifumbire bakoresheje ibyatsi, ni byiza ko twiga gukoresha ifumbire kandi tugakora ibyatsi mo ifumbire, kugira ngo tubashe kubona ifumbire nziza kandi nyinshi twayitubuye tuyivanye mu byatsi.

Ifumbire y'imvaruganda ni ingirakamaro ku bihingwa kuko ituma ibihingwa bikura vuba kandi bigakura neza, ni byiza ko dukoresha ifumbire mvaruganda kandi tukibuka no gukoresha niy'imborera kuko bigendana, bityo bigafasha ubuhinzi kandi abahinzi bakeza byinshi.

Imiti itandukanye harimo roketi z'imikombe ndetse n'imyayi n'ibinini by'inka cyangwa ihene, aho byifashishwa mu kuvura ndetse no kongera apeti y'ihene ndetse n'andi matungo kugira ngo abashe gukura neza, aho roketi iterwa ku bigori kugira ngo yice nkongwa.

Imvaruganda ni ingirakamaro igihe cyose umuntu agiye guhinga, ni ngombwa ko umuntu akoresha imvaruganda kugira ngo ibihingwa bibashe gukura neza maze bitange umusaruro ushimishije kugira ngo abantu babashe kwiteza imbere.

Abantu ubona ko bari gutwara ifumbire bayijyana mu mirima kugira ngo bazabashe gutera ibihingwa byabo bibashe kwera neza. Ni byiza ko dukoresha ifumbire kandi tugakoresha n'ifumbire mvaruganda kugira ngo bibashe kwera neza tubone umusaruro mwiza.

Ni byiza ko dukoresha imvaruganda, ariko tukibuka gukoresha n'imborera kuko bigendana, kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwiza kandi uhagije, bityo tubashe kwiteza imbere kandi tunabona umusaruro uhagije kandi ushimishije.

Abantu barimo gusasira amashu, ni ibyiza ko amashu amaze gukura atangiye kubyimba, ni byiza ko asasirwa kugira ngo habe hakwirinda ubukoko bwaba bwayangiza, ndetse abashe no kubumba neza kandi abumbe amashu manini, ni byiza ko twita ku mashu kandi tuyatera umuti kugira ngo abashe gutanga umusaruro.

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane kandi iyo kitaweho kibasha kwera, ni byiza ko n'ibishyimbo ahantu bihinze tubasha kubyitaho tubiha ifumbire ihagije kugira ngo bibashe gukura neza maze bitange umusaruro.

Inanasi ni igihingwa cyera neza iyo cyitaweho kikabasha kwihabwa ifumbire nziza kandi ikwiriye haba iy'imvaruganda ndetse n'imborera kugira ngo kibashe gutanga umusaruro, kuko gifasha mu kurinda indwara zitandukanye kandi zikaba kigira na vitamine.

Avoka y'imbangurirano ni ingirakamaro ku buzima bwacu, aho yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi yera cyane ugereranyije n'izindi avoka kandi ikera mu gihe gito, ni byiza ko abantu dutera iki gihingwa cya avoka y'imbangurirano kugira ngo dukomeze tubone umusaruro.

Ubutaka ubona ko buhinze neza kandi bwitaweho, ubona ko bukeneye ifumbire y'imvaruganda ndetse n'imborera kugira ngo bubashe gushyirwamo ibihingwa kandi bizakure vuba, maze abantu bazabone umusaruro ushimishije.

Icyayi ni ibihingwa ngengabukungu, aho bigira uruhare mu gutanga umusaruro mwinshi kandi bigateza imbere abantu babikoze, aho havamo ibintu bitandukanye nk'icyayi cyangwa amajyane, ni ibyiza ko abantu batera icyayi kandi bakagikurikirana neza.

Ibihwagari ni kimwe mu bihingwa byiza cyane kandi bisaba kwitabwaho kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije. Ni byiza ko twita ku bihwagari tubigirira akamaro kugira ngo bibashe kubaho neza.

Gutera umuti urunyanya ni bimwe bintu bifasha urunyanya kuba rwakura neza kandi hakaba hakwirindwa ubukoko bishobora gufata urunyanya aho rujya ku mababi, bikaba byatuma ikibabi cy'urunyanya gipfa maze inyanya ntizere neza.

Umuceri iyo witaweho neza ubasha kwera neza, ni byiza ko kwita ku muceri kandi tukawutera neza, tukawuha ifumbire ihagije, tukawubagarira kandi tukawucunga mu gihe cyo kwera kugira ngo tubone umusaruro ushimishije.

Inanasi ni ingirakamaro ku buzima bwacu, aho iyo zahinzwe neza zibasha gutanga umusaruro. Ni byiza ko tuzisasira kandi tukazihinga ku buryo ziri bubashe kwera neza kuko zitanga amafaranga.

Ahantu ubona ko harimo urutoki ndetse n'ibindi bihingwa, byiza ko urutoki rwitabwaho kandi rugakorerwa isuku, aho bashobora kuba bahasasira cyangwa bagashyiraho ifumbire kugira ngo rubashe gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije.

Ibisheke bigira akamaro ku buzima bwacu, kuko bifasha abantu gukoramo isukari, ndetse bikagira n'uruhare mu kongera isukari nyinshi mu mubiri, ni byiza ko tubungabunga ibisheke kandi tukabyitaho igihe biri mu murima.

Ibisheke iyo byitaweho neza bigahabwa ifumbire ndetse bikabona n'amazi meza, bibasha gukura neza bityo, bikaba byatanga umusaruro. Ni byiza ko twita ku bisheke, kuko ari ingirakamaro bitanga isukari, kandi ikenerwa no mu mubiri.

Ikahwa ni kimwe mu gihingwa cyera cyane iyo kitaweho kandi hagashyirwaho ifumbire, ni byiza ko tubungabunga ikawa kandi dushyiraho ifumbire twibuka no kuyisasira kugira ngo ibashe gutanga umusaruro.

Imboga ubona ko zitaweho neza zifite igikuriro, ubona ko zahawe ifumbire nyinshi kandi rwose zimeze neza, ni byiza ko imboga zitabwaho kandi zikabasha guhabwa ifumbire nziza.

Icyayi ni igihingwa gikunzwe cyane, aho gikunze kwera cyane ahantu hari ubutaka bwiza, ni byiza ko twita ku cyayi igihe cyahinzwe tugitera umuti kandi tugikurikirana kugira ngo kibashe gutanga umusaruro mwiza kandi natwe tubashe kwiteza imbere.

Umuceri iyo witaweho ubasha kwera neza kandi ukera umuceri uhagije. Ni byiza ko umuceri ubasha kwitabwaho kandi ukarindwa kugira ngo inyoni zitawangiza, bityo abantu bakabona umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Icyayi ni ingirakamaro, niyo mpamvu kigomba kwitabwaho maze kigatanga umusaruro mwiza kandi ushimishije, aho gikorwamo ibintu bitandukanye nk'amajyane. Ni byiza ko twita ku cyayi ku buryo tubasha kwiteza imbere.

Insina igihe zatemwe ni byiza ko zihabwa amatungo cyangwa zimwe zikabamo ifumbire ifumbira izindi nsina, ni byiza ko twirinda gutema insina igihe zidafite ikibazo kugira ngo dukomeze dusigasire urutoki.

Umuceri ubona ko witaweho neza kandi umeze neza, ni byiza ko umuceri wasaruwe witabwaho kugira ngo ubashe kumera neza kandi wirindwe kuba wabora kandi ubashe gutunganywa neza kugira ngo ubyazwe umusaruro.

Amasaka ni ingirakamaro ku buzima bwacu ni yo mpamvu agomba guhingwa kandi akitabwaho kugira ngo abashe kwera neza, kuko akorwamo ibintu bitandukanye havamo ikigage, amarwa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'igikoma ndetse akaba arimo na vitamine zitandukanye.

bIiti bitandukanye aho bigira uruhare; harimo voka ndetse n'ibindi biti bitandukanye, ibyo kuba ari ibidukikije, aho bigira uruhare mu kuyungurura umuyaga duhumeka, mu kurwanya isuri, aho bifata ubutaka bityo abantu bagakomeza bakagira ubuzima bwiza.

Imboga n'intoryi ni byiza ko byitabwaho, bihabwa amazi ahagije kugira ngo bibashe gukura neza, kandi si byiza ko bivangwa kuko bituma bidakura neza kandi ngo bitange umusaruro mwiza.

Abahinzi ubona ko bafite imboga nziza ziri mu bwoko bw'intoryi. Ni byiza ko intoryi zitabwaho zigashyirwaho ifumbire kugira ngo zibashe gutanga umusaruro mwiza kandi zigahabwa amazi meza kandi ahagije.

Umuntu ubona ko ari gutera ibiti kugira ngo ngo abashe kubungabunga ibidukikije. Ni byiza ko dutera ibiti aho kugira ngo duteme ibiti, kuko ibiti biduha umwuka mwiza duhumeka kandi bikaba birwanya n'isuri.

Urutoki ni byiza ko rwitabwaho kugira ngo rukomeze rutange umusaruro mwiza kandi ushimishije, ni byiza ko abahinzi bose bashyira ifumbire ku rutoki kandi bakaba barusasira bakanarukorera igihe ibyatsi byamezemo.

Ahantu ubona mu kabande hahinzwe ariko harimo ibinogo biretsemo amazi. Ni byiza ko bacukura imiyoboro itwara amazi kugira ngo habe hakwirindwa kuba haba ininda kandi bityo bitume ubutaka bwera neza kandi butange umusaruro mwiza.

Inshinge ziterwa inka igihe zirwaye indwara zitandukanye, ariko ruterwa n'ingurube zimaze gukura kugira ngo zivurwe; ni byiza ko amatungo akurikiranwa aterwa urukingo, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ingurube ubona za kizungu, aho zitaweho zihabwa ibigori ziri kurya. Ni byiza ko ingurube zitabwaho kugira ngo zibashe gutanga umusaruro mwiza kandi zikure neza, zihabwa imiti nk'uko bikwiye ndetse n'ibiryo birimo intungamubiri

Inshinge ziterwa amatungo, aho haba harimo umuti kugira ngo zibashe kwivura indwara zitandukanye, ni byiza ko amatungo ahabwa ishinge kandi agaterwa urukingo uko byagenwe kugira ngo abashe gukura neza, kandi yunguke.

Ahantu hacururizwa imiti itandukanye y'amatungo, aho bifasha amatungo kuba yakura neza, aho ahaga imiti itandukanye harimo nk'ibivugutu biyafasha gukura vuba ndetse n'imiti y'inzoka, tutibagiwe n'ibinini ndetse n'inshinge.

Inkoko ni byiza ko yitabwaho igahabwa imiti ndetse n'ibiryo, igahabwa imiti igihe irwaye, kandi igahabwa n'ibiryo bikwiriye kugira ngo ibashe gukura. Ni byiza ko twita ku nkoko nk'amatungo magufi kuko ari ingirakamaro.

Urukingo cyangwa urushinge ruterwa inka, aho rwifashishwa mu kuvura inka, ni byiza ko inka zose igihe zirwaye zifata inkingo cyangwa zikavurwa kugira ngo zikomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibirayi ni byiza ko byitabwaho kandi bigasukirwa ku gihe kugira ngo bibashe gutanga umusaruro kandi bibashe no gushyirwaho ifumbire y'imvaruganda kugira ngo bibashe kwera neza maze abahinzi bagire umusaruro ushimishije.

Igihe tugiye gutera ibihingwa ni byiza ko tubanza tugatunganya ubutaka, kugira ngo ahantu tugiye gutera hazabashe kwera, kandi tugatera mu myobo, duteresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iy'imborera, kugira ngo tuzagire umusaruro mwiza.

Abahinzi ubona ko bari gushyira ifumbire, ahantu mu murima hateyemo ibigori ndetse bashyira no ku insina, kugira ngo urutoki rubashe gukura neza kandi n'ibihingwa birimo n'ibigori bibashe gukura neza kandi bitange umusaruro mwiza.

Abantu ubona ko bari kwita ku murima, aho bari kuwufumbira kugirango babashe gutera imyaka, ni byiza ko dutunganya imirima igihe cyose tugiye guhinga kugira ngo ibashe kwera kandi itange umusaruro mwiza.

Ni byiza ko dufata imiyoboro kandi tukayicukura neza itwara amazi kugira ngo dukomeze kubungabunga ubutaka bwacu kugira ngo bwirindwe kuba bwatwarwa, ni byiza ko tubungabunga ibidukikije cyane cyane ubutaka.

Gutunganya umurima ni ingirakamaro cyane cyane iyo hamaze kuvamo imyaka kugira ngo habashe kuba hashyirwamo ibindi bihingwa, ni byiza ko hatunganywa neza, hakurwamo ibyatsi byose bishobora kubangamira ibihingwa.

Gutunganya umurima biba byiza igihe umuntu agiye guhinga cyangwa akuyemo imyaka kugira ngo abashe guteramo iyindi myaka. Biba byiza gusigasira indi myaka yari isanzwemo kugira ngo ibashe na yo gukomeza gukura.

Abantu ubona ko bari guhinga ahantu kugira ngo babashe guteramo ibindi bihingwa, ubona ko hasanzwemo imyumbati, ni byiza guhingira imyumbati kandi hakaba hashyirwamo n'ibindi bihingwa mu buryo bwo kubyaza ubutaka umusaruro.

Umuhinzi ubona ko ari gutegura umurima we, aho ari guhinga hari hasanzwemo ibigori ariko kugira azongeremo ibindi bihingwa, ni byiza ko dutunganya umurima wacu neza kandi tukibuka gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'iy'imborera.

Imboga ni byiza ko zitabwaho kandi zigasoromwa igihe zeze kugira ngo zitange umusaruro, aho biba bisaba ko zasasirwa kandi zikavomererwa zihabwa amazi ahagije, kugira ngo zibashe gutanga umusaruro ushimishije.

Umugabo ubona ari gukata icyondo kugira ngo abashe guhoma inzu, ni byiza ko duhoma amazu yacu kugira ngo abashe kuba yakomera twirinda ko yasenyuka, aho dushyiraho icyondo cya kabiri byaba byiza n'agasima kabonetse kakajyaho.

Abantu ubona ko bari gukora ifumbire, ni byiza kwikorera ifumbire tuyikoze mu byatsi, aho biba ari ingirakamaro kandi ifumbire yifashishwa mu gutera ibihingwa bitandukanye, aho igendana n'ifumbire y'imvaruganda.

Guhinga imboga mu karima k'igikoni bifasha cyane kugira ngo imboga zikure vuba kandi zikure neza. Ni byiza ko abantu bose bakoresha uturima tw'igikoni kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu bifasha ko imboga zera vuba.

Umuntu ubona ko yikorewe ubwatsi bw'amatungo, aho abushyiriye amatungo kugira ngo abashe kuba yarya maze akure neza. Ni byiza ko twahirira inka kandi tukaziha ubwatsi bwiza, kugira tuzirinde kuba zarwara indwara zitandukanye nk'umukira ndetse n'izindi ndwara.

Umugabo ubona ko ari kwita ku bihingwa harimo intoryi ndetse n'ibigori ubona ko hamezemo n'igiti cy'umwembe, ni byiza ko byose abishyigikira kandi akabyitaho kugira ngo bikomeze kwera kandi bitange umusaruro mwiza.

Umuntu ubona ko ari guca imiyoboro kugira ngo abashe gutera neza kandi yibuke gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'iy'imborera kugira ngo azabashe kweza neza umusaruro mwinshi kandi ushimishije.

Abaturage babona ko bari gukora umuhanda bawuharura bakuramo ibyatsi kugira ngo bajye babona aho banyura. Ni byiza ko twikorera imihanda kugira dukomeze tuyisukure maze tujye tubona aho tunyura kandi tubungabunga ibidukikije.

Abantu ubona ko bari gucukura ibinogo, kugira ngo bakore ibinogo bifata amazi, bityo barwanye isuri, kugira ngo imirima yabo itajya itwarwa n'isuri, maze dukomeze kubungabunga ubutaka dusigasira ubutaka.

Imbuto y'ibirayi ubona ko igiye guhingwa, ni byiza ko ibirayi ahantu bigiye guhingwa hashyirwamo ifumbire mvaruganda ndetse n'iy'imborera kandi hagategurwa ibirayi byiza kandi by'indobanure kugira ngo hirindwe ko bishobora kutamera cyangwa ngo bikure.

Abantu ubona ko bagiye guhinga ibigori, ubona ko bari gushyiramo ifumbire mu myobo. Ni byiza ko duhinga mu myobo kandi tukibuka gukoresha ifumbire y'imborera ndetse n'iy'imvaruganda, kugira ngo ibyo tugiye guhinga bibashe kwera neza.

Umuntu ubona ko ari gutunganya umurima we, aho ari kuwusubiramo kugira ngo azabashe gutera imyaka. Aho ubona havuyemo imyumbati ndetse n'ibindi bihingwa kugira abashe gushyiramo ibindi, ni ngombwa ko hitabwaho neza kugira ngo hazabashe kwera.

Abantu ubona ko bari gusiza ahantu hagiye kubakwa amashuri. Ni byiza ko dukora ahantu hagiye kubakwa amashuri kugira ngo dukomeze twagure amashuri maze ahantu hamere neza kandi amashuri akomeze yitabweho ashyigikiwe

Ikibaya ubona ko kimeze neza gisanzwe giterwamo umuceri kandi ubona ko basaruye umuceri. Ni byiza ko ibi bibaya byitabwaho kandi bigakorerwa isuku neza kandi hagahingwa hagashyirwamo amazi ahagije, kugira ngo hazashyirwemo undi muceri kandi were neza.

Ibirayi iyo byitaweho neza bibasha kwera bityo bigatanga umusaruro. Ni byiza ko dusarura ibirayi neza kandi tukabisarura neza kugira ngo tutabitema kugira ngo tubashe kubona umusaruro mwiza, kandi udufasha mu kuzamura iterambere ryacu.

Avoka ni ingirakamaro kuko zifashishwa mu gukoramo ibintu bitandukanye harimo nk'amavuta dukoresha twisiga, ni ngombwa ko tubungabunga avoka kuko ari ingirakamaro kandi igira n'intungamubiri, igakorwamo n'ibintu byinshi bitandukanye.

Ibigori ni byiza ko bimanikwa ahantu ku biti, kugira ngo bibashe kuma neza kandi hirindwe kuba byabora. Ni byiza ko igihe cyose dusaruye ibigori, tubishyira ahantu habugenewe kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza, kandi bibashe kutugirira akamaro.

Abahinzi ubona ko bamaze gusarura umuceri, aho bari kwarekwa umuceri kugira ngo babashe kuwupakira neza kandi weze neza. Ni byiza ko abahinzi basarura neza umuceri kandi bakawitaho bakoresheje ibikoresho bya kijyambere kugira ngo ubashe kumera neza ntiwangirike.

Abacuruzi ubona ko bacuruje ibintu bitandukanye harimo cyane cyane avoka, aho avoka ari ingirakamaro ku buzima bwacu, yongera intungamubiri nyinshi mu mubiri, bityo ikarinda n'indwara zitandukanye, cyane cyane ifasha abantu kurya ibiryo aho baba bari kubikoza n'avoka.

Ibigori ubona ko bigiye kwera. Ni byiza ko ibigori bigiye kwera bibasha kwitabwaho, hakarebwa ko bifite amazi ahagije kandi bigashyirwaho ifumbire y'imvaruganda kugira ngo bibashe gukura neza, kandi bitange umusaruro uhagije.

Amasaka ni ngombwa ko yitabwaho igihe akiri matonya kandi akabagarwa kandi akitabwaho ashyirwaho ifumbire kugira ngo azabashe gutanga umusaruro. Urutoki narwo ni ingirakamaro ni byiza ko rwitabwaho, ruhabwa ifumbire ihagije.

Ifumbire ni ingirakamaro ku bihingwa ndetse ibifasha kwera neza kandi bikera vuba, ibyagwingiye bigakura neza bityo abantu bakabasha kubona umusaruro, ni byiza ko dukoresha ifumbire mvaruganda.

Ibirayi ubona ko bimeze neza byasukiriwe, ni byiza ko binaterwa umuti kugira ngo udukoko dushobora kuba twabirya tubashe gupfa maze bishyirweho n'imvaruganda kugira ngo bibashe kwera kandi bitange umusaruro mwiza.

Ibigori ubona ko bimeze neza ariko bitakuze, biba byiza iyo bivomerewe cyangwa bikitabwaho bishyirwaho ifumbire umuyoboro na wo ni ingirakamaro kuko utwara amazi, uburyo ufasha kuyajyana aho atabashije kugera.

Ibimera ni byiza ko byitabwaho kugira ngo bibashe gutanga umusaruro ushimishije, ni byiza ko twita ku bimera, ahantu hose biri kugira ngo bibashe gutanga umusaruro, maze tubashe kugira ubuzima bwiza.

Imiyenzi ni kimwe mu bimera byiza kandi by'ingirakamaro, aho bifasha ahantu kuba hatandukanywa kandi bikaba bigira uruhare mu bidukikije, aho bishobora gufata umurima kandi bigafata n'umuyaga bikaduha n'umuyaga mwiza duhumeka.

Ibimera ni kimwe mu bintu bifasha kuba ubutaka butatwarwa kandi ni kimwe mu bidukikije bikurura umwuka mwiza duhumeka kandi bikarwanya isuri. Ni byiza ko tubungabunga ibimera.

Ni byiza ko dutera ibiti kandi tukabitera neza, tukabasha kubyitaho kugira ngo bibashe gukura neza, aho tubikorera isuku dukuraho ibyatsi byameze ku ruhande, kugira ngo dukomeze kubungabunga ibidukikije kandi turwanya n'isuri.

Ishyamba ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu, aho rigira uruhare mu kubungabunga ibidukikije, kurwanya isuri, kuduha umwuka mwiza duhumeka no kurinda inkubi y'umuyaga, ni byiza ko tubungabunga amashyamba, twirinda kuyatwika cyangwa kuyatemba.

Imyembe ni igihingwa kiza cyane aho ari urubuto, aho igiti cyatewe neza kibasha kwera ibiryo bitandukanye harimo imyembe itandukanye, ni ibyiza ko n'ibigori byitabwaho ndetse n'urutoki rukabasha kwitabwaho rufumbirwa kugira ngo rubashe gutanga umusaruro.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bifasha mu kugira ahantu heza hamwe haba harimo indabo, kandi bigatanga akayaga igihe umuntu ahegereye kandi bigatangagwa n'umwuka umuntu ahumeka aho binagira uruhare mu kubungabunga ibidukikije, nko kurwanya isuri.

Urutoki ni byiza ko twitabwaho kandi n'ahari ibipapayi hose bikabasha kwitabwaho bikurikiranwa, kugira ngo byose bibashe gutanga umusaruro mwiza. Ni ngombwa ko bibagarirwa kandi hagashyirwaho n'ifumbire.

Ibimera ni ingirakamaro kuko bifasha kuyungurura umwuka duhumeka, niyo mpamvu tugomba gusigasira ibiti, n'ibindi bimera kuko bivaho n'imiti twifashisha twivura, indi igakorwamo imiti ya kijyambere, ni byiza ko tubungabunga ibimera tubyitaho.

Igiti cya avoka ni ngombwa ko cyitabwaho kugira ngo kibashe gukura neza gishyirwaho ifumbire kandi kibona amazi ahagije kugira ngo kibashe gukura kandi gifite umusaruro mwiza, ni byiza ko twita ku biti kandi tubibungabunga twirinda kubitema kugira ngo bitange umusaruro.

Avoka ni igihingwa cy'ingirakamaro ariko gisaba kwitabwaho kugira ngo kibashe gutanga umusaruro. Ni byiza ko twita kuri avoka ndetse n'ibindi bihingwa harimo nk'amapera kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu.

Ahantu ubona hari ibimera bitandukanye ndetse n'ibiribwa harimo imyumbati, urutoki. Nibyiza ko urutoki rwitabwaho ndetse n'ahari imyumbati, ndetse n'ibiti bya avoka bikabasha kwitabwaho bihabwa ifumbire, kugira byose bibashe gutanga umusaruro.

Umwembe iyo witaweho utanga umusaruro. Ni byiza ko tuyitaho kandi tukayigirira isuku, aho dushobora gushyiraho ifumbire kandi tugakuraho ibyatsi bihegereye kugira ngo ubashe gutanga umusaruro mwiza.

Intusige zikiri mu bihoho ni byiza ko zitabwaho kugira ngo zibashe gukura neza maze ingemwe zazo zifashishwe zijya guterwa ahantu kugira ngo dukomeze dutere ibiti, bityo tube tubungabunga ibidukikije kuko ibiti ari ingirakamaro ku buzima bwacu.

Urutoki ni ingirakamaro kuko ruvamo ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'ibiti ni ingirakamaro kuko byifashishwa mu gukoramo ibikoresho bitandukanye. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije dusigasira amagara yacu kandi tugira ubuzima bwiza.

Ibimera ni byiza ko byitabwaho kandi bigashyigikirwa, hirindwa abantu babyangiza babitema cyangwa babitwika, kuko ari ingirakamaro mu gutanga umwuka mwiza duhumeka, ndetse bikarwanya n'isuri, kuba ubutaka bwatwarwa.

Umugabo ubona ko ari kwita ku rutoki ndetse harimo n'ibishyimbo, ni byiza ko ibi bishyimbo byitabwaho, bikabasha gushyirwaho ifumbire ndetse n'uru rutoki kugira ngo rubashe gukura kandi rugire ubuzima bwiza.

Ibimera ni ingirakamaro ku buzima bwacu, kuko bigira uruhare runini cyane mukuyungurura, umwuka duhumeka, Ni byiza ko tubungabunga ibimera haba ibya kimeza ndetse n'ibyatewe n'abantu, kugira ngo dukomeze gusigasira ibidukikije twirinda ibiza bishobora guterwa no kuba twangije ibidukikije.

Imbuto zitandukanye harimo imyembe n'ibinyomoro, ni byiza ko abantu bacuruza imyembe n'ibinyomoro kandi ku giciro gitoya, kugira ngo abantu babashe kubona izi mbuto kuko ari ingirakamaro ku buzima bw'abantu, maze abantu babashe kubaho neza.

Imboga rwatsi ni ingirakamaro ku buzima bwacu ndetse na karoti kuko iyo zitetswe neza zigira vitamini kandi zikaba ziri zimwe mu zifasha abantu kuba bakura neza kandi bakagira ubuzima bwiza.

Indabo ni ingirakamaro cyane cyane ahantu hari ibigo by'amashuri cyangwa n'ahandi hantu kuko bituma ahantu hamera neza kandi akaba ari kimwe mu bidukikije bigomba kubungabungwa kandi ahantu henshi tugomba kuhatera indabyo

Umubyeyi ubona ko ari mu bishyimbo ari kubyitaho, kugira ngo bibashe gukura neza abibagara, maze bizatange umusaruro mwiza. Ni ngombwa ko ibishyimbo byitabwaho bibagarwa, kugira ngo bitange umusaruro ushimishije kandi uhagije.

Indabo ni ingirakamaro kuko zituma zigira ahantu heza kandi hakibukwa kuba bazikorera isuku, ari ukuziconga kugira ngo zibashe gukura neza kandi zigire isuku, ni byiza ko dutera indabo dushyigikira ibidukikije.

Igipapayi ni urubuto rwiza cyane iyo rwitaweho maze rukabasha kwera, aho rugira uruhare mu mubiri, rutanga intungamubiri zitandukanye, ni byiza ko twita ku bipapayi ahantu biri hose, kugira ngo tubashe kubona umusaruro wabyo.

Ibinyomoro ni ingirakamaro ku buzima bwacu, ni byiza ko ibinyomoro bisarurwa neza kandi bikabasha kuribwa neza, kuko byongera amaraso bikongera n'izindi ntungamubiri mu mubiri wacu.

Inyanya ni ingirakamaro ku buzima bwacu ariyo mpamvu dukwiye kuzihinga kandi n'urusenda ruryoshya ibiryo kandi rukarinda n'indwara, harimo nk'indwara zo mu nda, ni byiza ko dutekesha urusenda kandi tukibuka no guteka inyanya.

Indabo ni ingirakamaro iyo zitaweho kuko zifasha gutuma ahantu hamera neza kandi hakagira ubusitani bwiza, ni byiza ko twita ku ndabo kuko ari bimwe mu bidukikije.

Ibinyomoro iyo byitaweho byera neza, iyo byahawe ifumbire ihagije bikabona n'amazi ahagije, bibasha kwera neza bityo bigatanga umusaruro. Ni byiza ko twita ku binyomoro, kugira ngo tubashe kubona ibinyomoro bihagije kuko byongera amaraso mu mubiri.

Inyanya ni igihingwa gihinzwe kandi gikunzwe igihe kitaweho maze kigashyirwaho ifumbire, aho gitanga umusaruro mwiza kandi ugasanga inyanya ari nziza. Ni byiza ko twita ku nyanya kandi ni ingirakamaro ku buzima bwacu, aho zigira intungamubiri nyinshi.

Ibinyomoro ni byiza ko byitabwaho kugira ngo bibashe kwera neza kandi bitange umusaruro, aho bisaba ko bihabwa ifumbire ihagije kandi hakarebwa ko hari amazi ahagije kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro mwiza.

Akarima k'igikoni ni ingirakamaro kuko gafasha ibihingwa harimo nk'imbuto n'imboga kuba byakura vuba. Ni byiza ko dukoresha akarima k'igikoni kandi tukibuka kuvomerera kugira ngo imboga zibone amazi ahagije.

Indabo ni ingirakamaro ku buzima bwacu, kuko bituma ahantu hamera neza, ni byiza ko indabo zitabwaho zigakurwamo ibindi byatsi kugira ngo zibashe gukura neza, bityo tugire ibidukikije byiza kandi tubibungabunge.

Ibishyimbo n'ibigori biba byiza buri cyose iyo gite ukwako kugira ngo bibashe kwera neza, kuko iyo biri kumwe bitera neza. Twige gutera ibihingwa nk'ibigori ku buryo biterwa bigashyirwaho ifumbire.

Ubutunguru iyo bwitaweho neza bugashyirwa ahantu nko ku karima k'igikoni bwera vuba kandi bukera neza, ni byiza ko twita ku butunguru kandi tukabutera ahantu heza, tukibuka guteresha ifumbire mvaruganda ndetse n'iy'imborera.

Akarima k'igikoni ni ingirakamaro ku buzima bwacu, aho iyo wagakoresheje neza gatuma imboga zera neza kandi zikera vuba. Byiza ko dukangurira abantu gukoresha uturima tw'igikoni kuko ari ingirakamaro.

Inanasi ni kimwe mu gihingwa cy'ingirakamaro cyane n'ibipapayi kuko ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu, tutibagiwe n'imineke kuko ifasha mu gutuma umuntu atekereza neza, ni byiza ko dufata kuri izi mbuto kuko ari ingirakamaro.

Igipangu ubona ko ari icy'amashuri, ubona ko cyubatse neza. Nibyiza ko amashuri agira ibipangu kandi akabasha kwitabwaho inyuma hakurwaho ibyatsi, indabo zahameze zibasha guterekwa kugira ngo babashe kubungabunga ibimera.

Abantu ubona ko bari gukora akarima k'igikoni kugira ngo babashe gutera imboga. Ni byiza ko dukora akarima k'igikoni kandi tukagakora neza, kuko gafasha mu buryo bwo gutera imboga, kandi zigakura vuba kandi zigakura neza.

Imboga n'intoryi ni byiza ko byitabwaho kugira ngo bibashe gutanga umusaruro, maze ababihinze babashe kubona inyungu binyuze mu gusarura maze bagasagurira n'amasoko, ni byiza ko bikomeza kwitabwaho.

Intoryi ni igihingwa cyera neza iyo cyitaweho maze kikabasha kwifashishwa mu guteka imboga. Ni byiza ko igihingwa cy'intoryi giterwa neza kandi kikitabwaho igihe cyasaruwe, kugira ngo kibashe gutanga umusaruro.

Umubyeyi n'umwana ubona ko bari gusarura inyanya, ubona ko ari inyanya zeze ariko ziteze neza, ni byiza ko inyanya zitabwaho zifumbirwa kandi zihabwa umuti igihe zirwaye n'igihe zitarwaye kugira ngo zitange umusaruro mwiza.

Urusobe rw'imbuto zitandukanye harimo imineke, inanasi, imyembe, ndetse n'izindi mbuto, aho zigira uruhare iyo umuntu yaziriye neza kandi akirinda kurya nyinshi, ni byiza ko dukomeza guhahaza izi mbuto kuko ari ingirakamaro, kandi zifite n'intungamubiri.

Avoka ni igihingwa kigomba kwitabwaho kuko ari ingirakamaro mu buzima bwacu, aho gifasha mu kongera intungamubiri zitandukanye, hamwe hagakorwamo n'amavuta dukoresha igihe turi guteka.

Inyanya ni igihingwa cyera neza igihe kitaweho kandi kigatanga umusaruro. Ni byiza ko abantu bose dukoresha inyanya igihe tugiye guteka kuko kuko ari ingirakamaro, tukibuka no kurya na voka kuko zongera intungamubiri zitandukanye.

Inyanya biba byiza iyo zubakiwe ibiti zizamukiraho kuko ari ho zibasha kwera neza kandi zikera inyanya nyinshi, ni byiza ko ibiti by'inyanya bigomba gushingirizwa kandi bikavomererwa uko bikwiye kugira ngo zitange umusaruro.

Ubutunguru ni ingirakamaro ku buzima bwacu kuko bufasha kuvura indwara zitandukanye ndetse na tungurusumu, aho bifasha kuvura indwara zo mu nda, igifu ndetse n'izindi ndwara, ni byiza ko dufata kandi tukabungabunga ubutunguru ndetse na tungurusumu.

Ubutunguru iyo bwitaweho bubasha kwera neza kandi bugatanga umusaruro. Ni byiza ko duhinga ubutunguru ariko tugashyiraho ifumbire kandi tugakoresha akarima k'igikoni kugira bubashe kwera neza kandi butange umusaruro mwiza.

Inyanya n'imiteja ubona ko ari ibyo kuribwa kandi byatewe neza bikabasha kwera neza, ni byiza ko twita ku mbuto cyane cyane inyanya, ndetse n'imboga, inyanya kuko bitanga intungamubiri mu biryo kandi abantu bakabasha kurya neza.

Abantu ubona ko bita kuri avoka zikiri mu bihoho kandi z'imbangurirano, ni byiza ko abantu batera voka y'imbangurirano kuko yera vuba kandi igatanga umusaruro ushimishije ugereranyije n'izindi avoka.

Karoti, ni igihingwa cyiza cyane aho kigira uruhare mu kurinda indwara ndetse no kongera vitamini mu mubiri n'izindi ntungamubiri, ni byiza ko twibuka guteka karoti kandi tugakoresha n'igitunguru, kuko ari ingenzi mu biryo.

Isoko ririmo imbuto zitandukanye, aho harimo imineke, inyanya, intoryi ndetse n'izindi mbuto, aho zifashishwa mu kongera intungamubiri ndetse harimo n'ifu, ni byiza ko tugana ubu bucuruzi kugira ngo tuze no guhaha maze tubone ibiryo byiza.

Ibinyomoro ni ingirakamaro ku buzima bwacu, kuko bifasha kongera amaraso mu mubiri, ni byiza ko twita ku binyomoro kandi tukabisarura byeze, kugira ngo bibashe kugirira akamaro mu muri biri igihe twabifashe.

Karoti ni igihingwa cyiza kandi cyera vuba iyo kitaweho. Ni byiza ko tuzihinga neza kandi tukazitunganya kugira ngo ngo tubashe kuba twazikuramo ibindi bintu bitandukanye tuzikoreshe tunaziteka, twite kuri karoti.

Inyanya, imboga ndetse na tungurusumu n'imiteja ni ingirakamaro mu gukora imboga, kuko imboga zifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye nk'intungamubiri zikenerwa mu mubiri. Ni byiza ko dukoresha neza izi mbuto ndetse n'imboga ngo tubashe kubaho neza.

Imineke ni kimwe mu rubuto rugomba kwitabwaho maze rugakorerwa isuku igihe rugiye kuribwa, ni byiza ko twita kuri uru rubuto kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu kandi rufasha kongera intungamubiri nyinshi mu mubiri.

Indabo ni kimwe mu bintu bigira ahantu heza cyane cyane ku bigo by'amashuri ni byiza ko haterwa indabo kugira ngo habashe kugira ikirere kiza kandi hase neza bityo n'izo ndabo ziyungurure akayaga keza kandi bitume haboneka neza ikigo kiza. Tubungabunge indabo.

Ibyiza mu gihe dusarura, twifashishe ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira bidufashe kuba twasarura, maze tubashe kweza. Ni byiza ko twiga gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, kuko byorohereza akazi mu gihe cy'ubuhinzi.

Ni byiza kuvomerera imbuto kuko bifasha kugira ngo zikure vuba kandi zigakurirana igikuriro cyiza, twige kuvomerera ibihingwa cyane cyane mu gihe cy'impeshyi kuko ariho byera neza kandi bigatanga umusaruro mwiza.

Umubyeyi ubona ko ari kuvomerera akoresheje imashini za kijyambere, ni byiza ko twita ku mboga zacu kandi tuzuhira tuziha amazi ahagije kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Imboga ziri mu bintu bisabwa kuba zavomererwa zigahabwa amazi ahagije cyane cyane twikoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo amazi abashe kuba yagera kuri buri gihingwa cyose. Ni byiza ko twuhira ibihingwa.

Imisozi ubona ko ifite ibibaya bitandukanye ndetse n'ububande ndetse n'ibihingwa bitandukanye harimo urutoki ndetse n'ibindi bihingwa, ni byiza ko ahantu bitabwaho kandi ahahanamye hagaterwa amatarasi y'indinganire.

Amatarasi y'indinganire ni ingirakamaro kuko afasha ubutaka buteraga kuba bwakwera, kandi agafasha ahantu kurwanya isuri mu buryo haba haterwaho urubingo ku materasi bifasha kuba inka zarurya maze zikabaho neza.

Inyubako ubona ko zifasha kugira ngo hagenzurwe ubuhinzi bwo muri ako gace. Ni byiza ko ubuhinzi bukorwa, ariko ababukora bakaba begereye ibihingwa byabo kugira ngo babashe kubikurikirana, maze byere neza.

Ibidukikije ni ngombwa ko byitabwaho ndetse n'ibiti bikabasha kubungabungwa kuko ari ingirakamaro mu kuyungurura umwuka duhumeka, ndetse bimwe binakoreshwa muri gahunda zitandukanye, bityo bigafata ndetse n'amazi ashobora gutwara ubutaka.

Ibibaya ubona ko bihinzeho icyayi. Ni byiza ko ibibaya bibasha kwitabwaho, iki cyayi gikorerwa isuku kugira ngo kibashe kwera neza kandi giterwa umuti kigasarurirwa no ku gihe, kuko ari ingirakamaro hakorwamo icyayi ndetse n'amajyane.

Ahantu ubona ko hakozwe amaterasi, ni byiza ko ahantu hahanamye ndetse n'indi mirima bikorwa amaterasi kugira ngo habashe kwera maze abantu babashe gusarura ndetse banahinge beza kuko iyo hari amaterasi hera kandi bikarwanya n'isuri.

Ni byiza ko iyo tugiye guhinga tugomba gutunganya umurima neza kugira ngo ubashe gutanga umusaruro bityo bifashe umurima, kuba wakwira neza. Ni biza ko duca imiyoboro cyangwa tugatera ku murongo.

Ikibaya kiza ubabona ko harimo ibihingwa bitandukanye, imboga, umuceri, ndetse n'ibijumba, aho haba hitaweho neza, amazi anyura mu muyoboro kugira ngo babashe guhinga kandi beze, ni byiza ko akabande nk'aka kitabwaho.

Ikibaya ubona ko harimo umuceri mwinshi, ubona ko hakorerwa umuceri kandi hatewe umuceri, ni byiza ko hitabwaho hahabwa amazi meza kandi ahagije kugira ngo umuceri ubashe gukura kandi ukomeze kwitabwaho ushyirwamo n'ifumbire.

Ahantu hagiye guhingwa ni byiza ko hitabwaho bityo hagashyirwamo ifumbire nziza kandi ihagije kugira ngo habashe gutanga umusaruro mwiza, ni byiza ko iyo tugiye guhinga tugomba kuhatunganya kandi tugashyiramo ifumbire nziza.

Ingurube ubona ko ziri konka nyina ubona ko ari ingurube z'inzungu kandi zimeze neza, ni byiza ko twita ku ngurube yabyaye ihabwa ibikoma ndetse n'ibindi birimo intungamubiri kugira ngo ibashe kurera abana bayo.

Ihene ubona ko zitaweho neza kandi zibyibushye, ni ngombwa ko twita ku matungo yacu kugira ngo abashe kuduha umusaruro mwiza kandi ushimishije, aho tugomba kuyaha ubwatsi bwiza kandi n'ibinini haba ibya vitamin ndetse n'inzoka.

Ingurube ubona ko ari iya kizungu, ni byiza ko yitabwaho igashyirwa ahantu mu kiraro kandi igahabwa ubwatsi buhagije, kugira ngo ibashe gukura neza bityo biyirinde n'indwara zitandukanye, zishobora gutuma yapfa.

Inkoko ni inyamaswa zigomba kwitabwaho kugira ngo zibashe gutanga umusaruro, maze zihabwe ibiryo bihagije kuko zigira uruhare mu gukemura ibibazo bitandukanye byo mu rugo, ni byiza ko twita ku matungo magufi y'inkoko.

Inka ni byiza ko yitabwaho ihabwa ubwatsi buhagije kandi ikaba ahantu heza kandi hafite isuku, aho ibigomba gusasirwa kugira ibashe kugira ubuzima bwiza, aho inka igomba kwitabwaho neza ihabwa n'imiti.

Amatungo ubona ko ari mu biraro bigezweho kandi ari kwitabwaho kugira ngo abashe kuba yatanga umusaruro kandi atange umukamo mwinshi ndetse abashe no guteza imbere abayorora, ni byiza ko aya matungo yitabwaho, agahabwa isaso rihagije ndetse n'ubwatsi.

Ingurube ni byiza ko ihabwa ibiryo bihagije, kugira ngo ibashe gukura neza harimo nk'amazi, ndetse n'ibikoma n'ibindi biryo kugira ngo ibashe gukura neza, ni byiza ko twita ku bibwana by'ingurube maze tubashe kubona umusaruro.

Ingurube ubona ko ari iz'inzungu aho zirimo zirarisha, ni byiza ko ingurube zibasha gushyirwa ahantu hubakiye kugira ngo zibashe kubaho neza kandi zororoke bityo ziteze imbere abazorora.

Ihene ni byiza ko zitabwaho kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro ufatika, ni byiza ko ihene zijyanwa ahantu hari ubwatsi kandi zikabasha kororwa neza kugira ngo zibashe gutanga umusaruro mwiza.

Ihene ni imwe mu matungo magufi agira akamaro cyane ku buzima bw'abantu, aho akemura ibibazo bitandukanye; ni byiza ko amatungo magufi yitabwaho kandi akabasha guhabwa ubwatsi bukwiriye kugira ngo atange umusaruro.

Inkoko ni byiza ko zitabwaho kugira ngo zibashe kororoka, aho zihabwa ibiryo bitandukanye kugira ngo zibashe kuba zakura, bityo abaturage babashe kuba bakwiteza imbere binyuze mu korora inkoko.

Ikiraro cy'inguru ubona ko cyubatse mu buryo bwa gakondo, ni ibyiza ko ingurube zitabwaho zubakirwa ibiraro byiza kugira ngo zikomeze zikure neza kandi zibashe gutanga umusaruro zibasha gukura neza igihe zitaweho.

Inkwavu ni kimwe mu matungo magufi iyo yitaweho neza yororoka kandi agatanga umusaruro bityo abazorora bakagira inyungu. Ni byiza ko inkwavu zororerwa ahantu heza hatari ubukonje kugira ngo zibe zakurinda indwara harimo nk'uburenge.

Inka ni byiza ko yitabwaho kandi ikubakirwa ikiraro cyiza kugira ngo ibashe kubaho neza, ku buryo ihabwa ikiraro cyubakiye neza kandi gisakaye, kandi igahabwa ubwatsi bwiza kandi bukwiriye kugira ngo ibashe gukura.

Ingurube ubona ko iri guhabwa ibyo kurya kugira ngo yitabweho, maze ibashe gukura neza maze izatange umusaruro, ni byiza ko ingurube ihabwa ibyo kurya ariko ikagirirwa ahantu heza ho kuba, kugira ngo ibashe guhangana n'indwara zitandukanye.

Abaturage ubona ko borojwe ingurube kugira ngo babashe kujya kwiteza imbere, ubona ko bahawe ingurube za kizungu kugira ngo biteze imbere maze bikure mu bukene; ni byiza ko abaturage bose bamenya uko borora ingurube neza, kugira ngo zibashe gukura neza.

Ingurube ubona ko iri hanze ubona ko iri kwiruka, ni byiza ko ingurube zitabwaho kandi zigahabwa ubwatsi buhagije ndetse n'aho kuba heza, kugira ngo zibashe gukura neza bityo zifashe abantu kwikura mu bukene.

Ihene ubona ko yaziritswe ahantu kugira ngo ibashe kurisha, ni byiza ko ihene zizirikwa ahantu hari ubwatsi, kandi zikabasha kwitabwaho kugira ngo zitange umusaruro, bityo aborozi bazo babashe kubona amafaranga.

Ingurube ubona na ko ziri mu kiraro kandi ubona ko zikiri ntoya, ni byiza ko izi ngurube zitabwaho zihabwa ubwatsi kandi zibasha konka kugira ngo zibashe gukura, maze zizatange umusaruro zitange n'inyungu ku borozi bazo.

Umuntu ubona ko aragiye inka ahantu hatari ubwatsi bwinshi cyane, ni byiza ko inka yahirirwa ubwatsi cyane cyane urubingo cyangwa ikaragirwa ahantu hari ubwatsi bwiza kugira ngo ibashe kuba yakura neza.

Inka ubana ko ziri mu biraro bya kijyambere aho ari inka z'inzungu kandi za kijyambere, biba byiza ko zihabwa ubwatsi kandi zigakurikiranwa na ba muganga w'amatungo kugira ngo zibashe gukura neza kandi zigire ubuzima bwiza.

Ni byiza ko ihene zigomba kwitabwaho zigahabwa ubwatsi buhagije kugira ngo zibashe gukura neza ndetse zigahabwa n'ibinini igihe zitari kurya neza, ni byiza ko zijyanwa ku gasozi cyangwa zikazanirwa ubwatsi buhagije.

Inka ubona ko ari iza kijyambere aho zigiye korozwa abantu batandukanye kugira ngo babashe kuzorora maze babashe kwiteza imbere, ni byiza ko twita ku nka kandi tuziha ubwatsi buhagije tunazikurikirana kugira ngo zibashe kuba zagira ubuzima bwiza.

Ihene ni byiza ko ijyanwa ahantu hari ubwatsi kugira ngo ibashe gukura neza bityo ikemure ibibazo by'abantu bitandukanye kuko ari ingirakamaro mu rugo, aho kugira ngo izirikwe ahantu hatari ibyatsi, ni ngombwa ko ijyanwa ahantu hari ibyatsi kugira ngo ibashe gukura neza.

Ingurube ni imwe mu nyamaswa y'itungo rigufi igomba kwitabwaho kugira ngo ikomeze itange umusaruro, kandi aborozi baryo babone umusaruro binyuze kuba bayoroye neza bayishyira mu kiraro cyiza ndetse banayikurikirana.

Ihene ni kimwe mu matungo magufi meza kandi atanga umusaruro agafasha abaturage kwikura mu bukene, iyo yitaweho maze akabasha gutanga umusaruro mwiza igihe yahawe ubwatsi bwiza kandi agakurikiranwa, ahabwa ibinini, kugira ngo abashe gutanga umusaruro ukwiriye.

Abaturage ubona ko bahawe Gira inka kugira ngo babashe kwiteza imbere, babone ifumbire ndetse n'ibindi byose bikomoka ku nka. Ni byiza ko izi nka zitabwaho kugira ngo zibashe gutanga umusaruro ku bazorora.

Inka ni kimwe mu matungo y'ingirakamaro, ni byiza ko yitabwaho, ashyirwa mu biraro byabugenewe kandi akabasha gusasirwa, agahabwa n'ubwatsi buhagije ndetse n'ahantu ho kunywera amazi, kugira ngo abashe gukura neza kandi atange umusaruro.

Ihene ubona ko imwe ifite abana iri kwitabwaho n'umubyeyi aho ari kuziha ibishishwa by'ibishyimbo kugira ngo zibashe gukura neza kandi zonse abana. Ni byiza ko ihene zitabwaho kugira ngo zibashe gufasha abaturage kwikura mu bukene.

Ingurube ubona ko iri kwitabwaho ihabwa ibiryo n'amazi kugira ngo ibashe gukura neza. Ni byiza ko twita ku ngurube kugira ngo zibashe kubaho neza bityo twiteze imbere natwe twivane mu bukene.

Ingurube ubonako iri konsa abana bayo, ubonako yabyaye abana b'inzungu kandi beza, ni byiza ko ingurube yitabwaho ihabwa ibiryo bihagije kugira ngo ibashe kurera abana bayo, maze abaturage babashe kwikura mu bukene babona amafaranga.

Ingurube hari gushaka ibyo kurya. Ni byiza ko ingurube ntoya, zigira ahantu heza ho kuba, kandi zigahabwa ibiryo bihagije, kugira ngo zibashe gukura neza. Ni byiza ko twita ku matungo magufi nk'ingurube kuko ari ingirakamaro.

Umugabo ubona ko ari kwita ku nka ye, ni byiza ko inka zishyirwa ahantu heza kandi zikubakirwa, zigahabwa ubwatsi buhagije kugira ngo zibashe gutanga umukamo ndetse n'umusaruro, maze abantu babashe kwikura mu bukene.

Abantu aho borora inkwavu mu buryo bwa kijyambere aho bazubakiye inzu nziza kandi zizifasha kuba zitarwara indwara zitandukanye harimo uburenge, ni byiza ko inkwavu zubakirwa ahantu heza kandi hatari amazi.

Inka ni itungo ryo mu rugo rikwiye kwitabwaho cyane cyane iyo rikiri inyana, kugira ngo ribashe kwitabwaho rivurwa kandi rishyirwa ahantu hari ikiraro cyiza, kugira ngo ribashe gukura neza kandi ritange umusaruro, aho rigomba guhabwa ubwatsi bwinshi kandi bwiza.

Ingurube ubona ko ari iy'inzungu ariko yitaweho neza. Ni byiza ko twita ku matungo magufi kuko ari ingirakamaro aduha amafaranga ndetse n'ibindi bintu dushobora kwifashisha mu buryo dushobora gukemuza ibibazo. Ni byiza ko twita kuri aya matungo.

Ibigurube by'ibizungu ubona ko biryamye hasi, aho ari byiza ko bishyirwa mu kiraro kandi bikitabwaho kugira ngo bibashe gukura neza kandi bitanga umusaruro, maze bihabwe n'ibyokurya bihagije, maze bibashe gukura neza.

Inka iyo yitaweho neza ibasha gukura neza. Ni byiza ko twita ku nka tuziha ibyatsi byiza bihagije, ndetse n'ibinini, haba ibya vitamini n'iby'inzoka, ikabasha no kubona ikivuguto kugira ngo ibashe gukura neza.

Inyana ni byiza ko yitabwaho kugira ngo ibashe gukura neza aho iba igomba konka nyina kandi ikabasha kuba yabona ubwatsi bukwiriye kandi igashyirwa n'ahantu heza kugira ngo ibashe gukura neza.

Ingurube ubona ko iri kwitabwaho ariko biba byiza ishyizwe mu kiraro cyiza kandi igahabwa n'ubwatsi bwiza kugira ngo ibashe kugira igikuriro maze yunguke iteze imbere abazorora kandi babashe kwikura mu bukene.

Inka ni amatungo y'ingirakamaro ku buzima bw'abantu aho atanga ifumbire ndetse agatanga n'umukamo, aho amata ari ingirakamaro ku buzima bw'abantu. Ni byiza ko inka ziragirwa ahantu hari ubwatsi kandi zikitabwaho.

Inyanya iyo zitaweho neza, zibasha kwera kandi zigatanga umusaruro mwiza. Ni byiza ko twita ku nyanya tuzitera umuti, kandi tuzivomerera cyane cyane mu gihe cy'impeshyi, kugira ngo zibashe kwera neza.

Intoryi ni igihingwa gikura neza iyo cyitaweho, ariko kikabasha guhabwa ifumbire nziza kandi ihagije, ni byiza ko twita ku ntoryi, kandi tukabasha kuzivomerera kugira ngo zibashe gukura neza zitange umusaruro ushimishije.

Ikawa ubona ko ziri mu bihoho mbere yuko zijyanwa guterwa, ni byiza ko dutera ikawa kuko ni igihingwa ngengabukungu, kuko kigira uruhare cyane mu buryo bw'amafaranga ndetse no guteza imbere abantu.

Umugezi utemba ni ingirakamaro kuko ufasha mu kuvomerera ibihingwa bitandukanye ariko ni byiza ko twirinda gukoresha ano mazi mu kuyanywa kuko abarimo indwara zitandukanye, kugira ngo twirinde izo ndwara.

Indabo ni kimwe mu bintu bigira ahantu heza, iyo zitaweho neza zikabasha gutunganywa, ni byiza ko dushyigikira ibimera twirinda kwangiza ibidukikije kuko indabo zifasha gutuma ahantu hamera neza kandi bigatuma biyungura n'umwuka duhumeka kandi tukamera neza.

Ibishyimbo ni kimwe mu gihingwa cyera neza kandi kigatanga umusaruro mwinshi, igihe cyahinzwe neza kandi ugahinga ibishyimbo bya kijyambere, kandi bigashingirwarwa kugira ngo bibashe gutanga umusaruro, mwiza kandi uhagije.

Ibigori igihe byasaruwe, ni ngombwa ko byitabwaho kandi bikabasha kwanikwa ahantu heza, kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro kandi bikorwemo ibintu bitandukanye, harimo nk'akawunga, bityo abantu babashe kubona ibyo kurya maze babeho neza.

Ibigori ubona ko bititaweho neza, ubona ko bitahawe ifumbire ihagije, ni byiza ko ibigori bihabwa ifumbire ihagije kugira ngo bibashe kugira umusaruro mwiza kandi bibashe gukoreshwa muri gahunda zitandukanye.

Gereveriya ni bimwe mu bihingwa byiza cyane, byifashishwa dukoramo ibikoresho bitandukanye, ndetse bikarinda n'umuyaga kuba wakwangiza ibintu, ndetse bikaduha n'umwuka duhumeka. Ni byiza ko tubungabunga ibidukikije.

Mu gishanga ni byiza ko hacukurwa imiyoboro itwara amazi kugira ngo ahantu hatari amazi habashe kubona amazi ahagije, bityo bifashe guhinga kandi n'umusaruro uboneka mu gihe ibihingwa biba byabonye amazi ahagije.

Ni byiza ko twita ku gihingwa cy'imyumbati, tugisukira kandi dushyiraho ifumbire kugira ngo ibashe kwera neza, kandi ku buryo bugezweho, dukomeze kwita ku myumbati kugira ngo tubone umusaruro mwiza kandi uhagije.

Abahinzi ubona ko bacuruza intoryi, karoti, ubutunguru ndetse n'imyumbati, ni byiza ko bacuruza neza kandi bagashyira ku bitanda kugira ngo babashe gucuruza ibintu bifite isuku maze abakiriya babahahire neza.

Ibigori iyo bisaruwe biba byiza iyo bishyizwe ahantu heza kugira ngo bibashe gutanga umusaruro kandi hirindwe ko biba byabora, ni byiza ko bimanikwa ahantu ku biti kandi hateguwe neza, aho kugira ngo byanikwe hasi ku buryo bishobora kuba byanabora.

Amashu ubona ko yitaweho neza kandi akera ku buryo harimo amashu meza kandi manini, ni byiza ko amashu yitabwaho kandi agasarurirwa ku gihe kugira ngo abashe kuba yakoreshwa mu kubona amafaranga ndetse no gusagurira amasoko.

Ibigori ni byiza ko byandikwa ahantu habugenewe kugira ngo hirindwe ko biba byabora, ni byiza ko bimanikwa ahantu ku biti kandi hafite umutekano kugira ngo bibashe kugira umusaruro mwiza.

Imboga iyo zitaweho zitanga umusaruro mwiza kandi zikagira n'amafaranga igihe umuntu asaguriye amasoko, ni byiza ko twita ku mboga kandi tukabanza gushyiraho ifumbire ariko iringaniye.

Ibijumba iyo byitaweho neza bigahabwa ifumbire bibasha gutanga umusaruro mwiza kuko ari ingirakamaro. Ni byiza igihe duteye ibijumba ko twakoresha ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iy'imborera kugira ngo tubashe kubona umusaruro ushimishije.

Abantu ubona ko bari kuvomerera imboga rwatsi. Ni byiza ko tuvomerera imboga ndetse n'izindi mbuto zitandukanye ndetse n'ingemwe ziba zizimurirwa ahandi kugira ngo zibashe gukura neza, bityo zitange umusaruro.

Ibishyimbo igihe biri mu murima, ni byiza ko byitabwaho kandi bikabasha guhabwa ifumbire nziza kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza, ni byiza ko abahinzi bose bita ku bishyimbo maze babigirira isuku aho babibagara.

Inturusi igihe zikiri mu bihoho ibyiza ko zitabwaho neza kandi zikarindwa izuba kugira ngo zibashe gukura neza maze nizijya guterwa zizabashe gukura, kandi dukomeze gutera ibiti tubungabunga ibidukikije.

Inka igomba guhabwa ubwatsi kandi ikaba ahantu heza kugira ngo ibashe kubyibuha kandi itange umusaruro ku banyirayo. Ni byiza ko inka zitabwaho kandi zikavurwa zirinda indwara zitandukanye kugira ngo zibeho neza.

Inka ni byiza ko ikurikiranwa igahabwa inkingo uko bikwiye, kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza. Aho ibasha kuba yakura neza, igihe yatewe ingingo na muganga w'amatungo kandi yabugenewe, kugira ngo abashe kuyivura neza bityo ayihe urukingo rufite ubuziranenge.

Imiti itandukanye harimo inshinge zifashishwa mu gutera inka ndetse n'indi miti itandukanye yifashishwa mu gushyira ku matungo ndetse no ku bihingwa, ni byiza ko tubungabunga ino miti kandi tukayegereza ahantu hose.

Umuntu ubona atari kwita ku matungo aho ari kuyasasira kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza, ni byiza ko twita ku matungo manini nk'inka kugira ngo zibashe gutanga umusaruro mwiza kandi natwe tubashe kwiteza imbere tubona ifumbire ndetse n'ibindi bintu bikomoka ku nka nk'amata.

Inka ni byiza ko yitabwaho kandi igasuzumwa mu mabere yayo kugira ngo harebwe ko nta kibazo yaba ifite maze ibashe gukura neza, bityo ibashe no kuba ahantu hameze neza, hasasirwa kandi ntibe ahantu hafunganye mu nzu.

Urukwavu rw'inyakigunda ni rumwe mu nyamaswa zikwiye kubungabungwa kugira ngo rubashe kubaho kandi rube nk'ibindi binyabuzima, hirindwa abantu baba bashaka kuba baruhiga kugira ngo barwice.

Impala ni inyamaswa ziba mu ishyamba aho zifite amabara atangaje, aho zikurura ba mukerarugendo, ni byiza ko tubungabunga impala tukirinda na barushimusi bazihohotera tuzibungabunga.

Ingaryi inyamaswa nziza cyane kandi ziba mu ishyamba, aho zikunze gukurura ba mukerarugendo baje kureba ibyiza byazo. Ni byiza ko tubungabunga ibi binyabuzima kuko bitwinjiriza amadovize.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba, aho biba byiza ko zibungabungwa kugira ngo zibashe gukurura bamukerarugendo baje kureba ubwiza bwazo. Ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa, tuzirinda barushimusi.

Igisiga ni kimwe mu nyoni zikunze kuguruka bityo zikaba zikunze kwirira utundi tunyamaswa, ni byiza ko ibi bisiga bibungabungwa kugira ngo byirindwe ababihohotera dukomeze gushyigikira ibidukikije.

Ingagi ni inyamaswa ziba mu ishyamba aho bisaba ko zibungabungwa kuko zikurura bamukerarugendo bakinjiza amadovizi mu gihugu. Ni byiza ko tubungabunga ingagi ahantu hose ziri kugira ngo tubashe kubona amafaranga.

Abantu aho bari mu rukerarugendo aho bari ku biraro bitandukanye bari kugenda batembera bareba ibyiza bitatse Igihugu, ni byiza ko abantu batembera bakareba amashyamba ndetse n'ibiraro byiza kugira ngo babashe kwishimisha.

Ingagi ni kimwe mu nyamaswa nziza cyane kandi zikunze kuba mu ishyamba, aho zikurura bamukerarugendo baje kureba ubwiza bwazo. Ni byiza ko izi nyamaswa zibungabungwa kugira ngo zikomeze kwinjiza amadovize mu gihugu.

Ingwe ni inyamaswa y'inkazi cyane ikunze kuba mu ishyamba ikurura bamukerarugendo kugira baze kureba ibyiza byayo. Ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa kuko ari ingirakamaro zikurura ba mukerarugendo gutyo bakinjiza amadovize.

Inyamaswa zitandukanye zo mu ishyamba harimo umusumbashyamba n'impara, ndetse n'izindi nyamaswa aho zikurura bamukerarugendo baje kureba ibyiza byazo. Ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa, kuko zinjiriza amafaranga menshi mu gihugu.

Inkende ni inyamaswa nziza cyane ishobora kubana n'abantu kandi ifite ubuhanga bwo kurira ibiti ndetse n'ibindi bintu ku muvuduko mwinshi, izi nyamaswa zikunze kuba ahantu hari abantu kandi zikaba no mu ishyamba.

Ibiraro ni ingirakamaro kuko bifasha abantu kugenda hejuru cyangwa kwambuka imisozi biboroheye ahantu hadasanzwe hari imihanda. Ni byiza ko ahantu nko mu mashyamba hashyirwa ibiraro, aho kwambuka biba bigoye.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa zikunze kubana n'abantu mu mazu kandi zikurira ibintu byose mu buryo buzoroheye, ni inyamaswa zikunze guhigwa cyane, ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa kugira ngo dukomeze gusigasira ikiremwa cy'ikinyabuzima.

Inkende ni inyamaswa zitangaje cyane, aho zikurura ba mukerarugendo kubera ubuhanga bwazo bwo kugenda hejuru ku biti kandi ku muvuduko mwinshi, ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa kuko zinjiza amafaranga menshi mu gihugu kandi igihugu kigatera imbere.

Inyoni y'amabara meza ubona ko imeze neza, aho ikurura ba mukerarugendo baje kuyireba, maze bagatanga amadovize afasha mu guteza imbere igihugu, ni byiza ko tubungabunga ibi biguruka.

Inyoni y'amabara meza, ikunze kuba mu ishyamba kandi ifite n'amasunzu. Ni inyoni zikunze gukurura ba mukerarugendo kubera ubwiza bwayo. Ni yo mpamvu dukwiye kubungabunga ibinyabuzima nk'ibi biguruka, kugira ngo bibashe kuba byakurura ba mukerarugendo.

Igisiga ni kimwe mu nyamaswa zikunze kwibera ahantu mu biti kandi kikaguruka, ni byiza ko ibi bisiga byitabwaho kuko ari kimwe mu binyabuzima kandi b'ingirakamaro, ni byiza ko dukomeza kubibungabunga, twirinda abantu babishimuta bashaka kubyica.

Inyamaswa yo mu ishyamba kandi ifite uburanga ubona iteye ukwayo aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ibyiza byayo kugira ngo ibashe kuba yarindwa, ni uburyo bwo kuba yakwitabwaho igahabwa umutekano, harindwa ba rushimusi bazishimuta.

Igisiga ni kimwe mu biguruka bikunze kuba mu biti, aho bikunze kwibasirwa cyane n'abashaka kubyica. Ni ngombwa ko tubungabunga ibisiga, kuko ari ingirakamaro kandi na byo bikaba ari ibinyabuzima, bikwiye kubaho.

Ingaryi ni inyamaswa ziba mu ishyamba zikaba zikurura bamukerarugendo baje kureba ubwiza bwazo. Ni byiza ko tubungabunga ibi binyabuzima kuko ari ingirakamaro mu kwinjiza amafaranga menshi mu gihugu, bityo Igihugu kigatera imbere.

Inkende ni inyamaswa ikunze cyane aho ikunze kuba mu ishyamba, ni ibyiza ko izi nyamaswa zibungabungwa kugira ngo zikomeze gutanga amafaranga binyuze kuri ba mukerarugendo baza kuzisura.

Imbogo n'inyamaswa y'inyagasozi imeze nk'inka, yo ikurura ba mukerarugendo baje kureba uburyo iteye bidasanzwe, ni byiza ko tubungabunga izi nyamaswa kuko ari ingenzi kandi zitwinjiriza amadovize.

Ingagi ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu kuko zikurura ba mukerarugendo bakaza kwirebera ibyiza byazo kandi twirinde ba rushimusi baba bashaka kuzihohotera bazica kugira ngo dukomeze tubungabunge ibinyabuzima, tubungabunga ibidukikije.

Inyoni ubona ko ifite amabara meza iba mu ishyamba, aho ikunze gukurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo, ni byiza ko twirinda kwangiza izi inyoni dukumira ba rushimusi baba bashaka kuba bakwica izi nyoni, maze zigire ubuzima bwiza.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zikunze kuba mu ishyamba, aho zikurura ba mukerarugendo baje kureba ibyiza byazo, ni byiza ko dukomeza kubungabunga izi nyamaswa kuko ari ingirakamaro ku buzima bwacu ndetse n'igihugu muri rusange.

Inyoni ubona ko ari iy'amabara meza ikunze kuba mu ishyamba aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo, ni byiza ko twita kuri ibi biguruka kuko byinjiza amafaranga menshi mu gihugu.

Inyoni yo mu ishyamba kandi ubona ko ifite amabara meza, aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo, ni byiza ko ibi biguruka bibungabungwa kugira ngo bikomeze guteza imbere igihugu ndetse n'abantu muri rusange kandi twirinda ba rushimusi bazishimuta.

Inyoni ubona ko ari iy'amabara meza ikunze kuba mu ishyamba, niyo ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo, ni byiza ko izi nyoni zibungabungwa, maze dukomeze kubungabunga ibinyabuzima, bityo dukomeze gushyigikira ibidukikije.

Abantu ubona ko bari mu bukerarugendo bari gusura ibikorwa bitandukanye ndetse n'inyamaswa, aho bari kunyura ku biraro. Ibiraro ni bimwe mu bikorwa remezo byiza kandi bifasha abantu gutembera, banyura hejuru igihe ibiraro biba byaragiye bisenyuka kandi bigafasha abantu gutambuka kugira ngo bakore ibikorwa byabo.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zikunze kuba mu ishyamba, aho zikururwa na ba mukerarugendo kugira ngo baze kwirebera inyamaswa zimeze nk'abantu; aho biba byiza ko dukwiye kwirinda guhohotere izi inyamaswa kuko harimo ba rushimusi baziba.

Inyoni itangaje aho mu ishyamba aho usanga itandukanye n'izindi nyamaswa, ni byiza ko ibi biguruka byitabwaho bikarinda abantu baba bazihiga maze zigakomeza zikurura ba mukerarugendo.

Inkende ni inyamaswa itangaje cyane, aho ifite ubushobozi bwo kuvugana n'abantu kandi igakora ibikorwa bitandukanye nk'iby'abantu, aho ikurura ba mukerarugendo baje kureba ibyiza byayo, ni byiza ko tubungabunga izi nkende.

Inkende ni kimwe mu nyamaswa zishimishije cyane aho zijya gukora nk'abantu kandi zikagira ubuhanga bwo kurira ku biti kandi nta kibazo zifite kandi ku muvuduko mwinshi, ni byiza ko tubungabunga ibi bidukikije nk'izi nyamaswa kuko ari ingirakamaro.

Inzovu ni inyamaswa y'inyeshyamba kandi ikunze kuba ahantu mu ishyamba ikurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bwayo kugira ngo ikomeze yinjize amadovize, ni byiza ko tubungabunga inyamaswa zo mu ishyamba twirinda abantu bazishimuta kugira ngo ngo tubabuze bareke kwangiza ibidukikije.